Abantu iyo bari mu myitozo ngororamubiri bituma umubiri wabo umera neza kandi ubucuti bafitanye bukarushaho kwiyongera, gukora imyitozo ngororamubiri, bituma umuntu agira imbaraga kandi akagira umubiri umeze neza.

Abaturage bahurira ahantu hamwe bakagira ibintu byinshi bashobora kubaganiraho kandi ibyo bintu bishobora kubagirira akamaro. Mu inzego zitandukanye n'inzego zinyuranye umuntu yaba akoramo hose ashobora guhurira hamwe n'abandi bakagira ibintu baganiraho.

Inzego z'umutekano na zo zigira uruhare mu kwigisha abaturage uko bakwiye kubana neza bityo bakirinda amakimbirane, mu gihe babanye neza bibafasha ko babana amahoro hanyuma umutekano ukiyongera mu gihugu.

Inama zifitiye akamaro abaturanyi kuko iyo bahuriye hamwe, bakaganira ku bikorwa bishobora kubateza imbere, hari ibintu buri wese yungukira kuri mugenzi we. Akenshi inama iba ifite umuyobozi, kandi uwo muyobozi niwe utegura ingingo abaturage bari bwigeho.

Abantu iyo bari mu nama buri wese ashobora gutanga igitekerezo ke hanyuma bagafata umwanzuro bagomba gutekereza ku gitekerezo kiza kiba cyatanzwe hanyuma buri wese akagira uruhare mu ifatwa ry'uwo mwanzuro.

uUrubyiruko ruba rukwiriye kwigishwa amateka yarwo by'umwihariko bigakorwa n'abayobozi bo mu nzego zitandukanye, babafasha gusobanukirwa ibintu byaranze igihugu, bityo bikaba byabafasha kumenya uko bakwitwara mu gihe kiri imbere.

Abantu iyo bateraniye hamwe hari ibintu by'ingenzi bagenda biga, kandi kungurana ibitekerezo, bituma hari ibikorwa bashobora kugeraho. Urugero nko kugera ku mahoro mu buryo bworoshye, ndetse no kuvuga ibikorwa bishobora kubateza imbere, buri wese akagira ikintu akuramo cyamufasha.

Abantu baganira ku bintu bitandukanye, ariko byose biterwa n'uko baba babyumvikanyeho . Abantu bashobora guhurira ahantu runaka cyane cyane ahantu hari amazu, bakaganira ku ngingo zishobora kubateza imbere by'umwihariko bakibumbira mu makoperative.

Abantu bagira imico itandukanye, ariko umuco mwiza ni ukwigirira icyizere mu gihe umuntu avuga. Igihe umuntu avuga, ashobora kwigirira icyizere akavuga ikintu gishobora kugirira abandi akamaro, ndetse no kubafasha mu iterambere ryabo.

Mu muco nyarwanda abantu bakunda kwishima, bashobora kugaragaza ibyo byishimo byabo babyina, by'umwihariko mu gihe bagiye mu birori runaka bibasaba kugaragaza ibyiyumvo byabo, ndetse n'ibyishimo byabo, bakishima bakabyina.

Abagore nabo bakwiriye guhabwa agaciro, bakaba bashobora kuvugira mu ruhame. Mu gihe cyo hashize abagore ntabwo bashoboraga kuvugira mu ruhame mu muco nyarwanda, nyamara ubu bahawe ijambo bashobora kuvuga icyo batekereza.

Imirasire y'izuba irafasha cyane cyane mu gihe k'izuba kuko ifasha mu gice k'icyaro amashanyarazi atarageramo na bo hakaba hari ibikorwa bashobora kwikorera bakoresheje ibyo bikorwa biba biturutse mu mirasire y'izuba.

Amashanyarazi ni ingirakamaro cyane kubera ko afasha abaturage kubaho neza, amashanyarazi ashobora guturuka ku mirasire y'izuba cyangwa se agaturuka ku ngomero z'amazi. Amashanyarazi agomba gufatwa neza kuko agirira akamaro abaturage by'umwihariko mu iterambere ryabo.

Amashanyarazi afitiye akamaro abaturage, kuko amashanyarazi ashobora gukoreshwa amatara akaka, hanyuma haba haboneka n'ibindi bikorwa by'iterambere, urugero nk'umuntu ufite umushinga wo gushesha ibintu runaka.

Abantu bakora muri serivisi z'amashanyarazi ni abantu baba barabyigiye kandi bafite ubuhanga muri byo kuko gukora muri izo serivisi bisaba kwitonda, umuntu abicokoje atabizi bishobora kumwangiza akaba yanahasiga ubuzima.

Amatara yo ku muhanda afite akamaro cyane kuko amurikira abaturage kandi mu gihe bwije umuturage ntashobora kugirirwa nabi kuko ayo matara atuma agira ubuzima bwiza akabona aho ajya mu gihe bwije.

Amashanyarazi afitiye akamaro abaturage kuko ashobora kwifashishwa cyane cyane mu bihe abantu baba babikeneye, cyane cyane nko mu gihe abantu bashaka gucana amatara cyangwa se kwifashisha mu bikoresho by'ikoranabuhanga.

Amasoko yubakwa hirya no hino mu gihugu, atuma abaturage hari ibikorwa bigezaho by'iterambere, iyo umuturage agiye kugura ikintu ku isoko, hari amafaranga asiga, gusa nawe hari icyo abona kikaba cyamurengera.

Hari inyubako zubakwa n'igihugu kugira ngo abaturage bajye bahahurira bagure ndetse banagurishe, izo nyubako zitwa amasoko aho umuntu ajya akahagurira cyangwa se akahagurishiriza ibyo afite bakamuha amafaranga.

Amashuri abanyeshuri bigiraho, aba yubatse ku buryo umuntu wese uhageze ahita amenya ko ari ikigo cy'amashuri, amashuri atuma abanyeshuri bahabwa ubumenyi kandi bakigira ahantu batanyagirwa kuko hari ibikoresho bimwe byabugenewe biba bihari.

Imihanda ifitiye akamaro abaturage cyane cyane ko ibafasha kugera ku bindi bikorwa remezo, ibikorwaremezo birimo amashuri iyo bifite imihanda imbere yabyo bibigirira akamaro kuko bashobora kubona ibitabo mu buryo bworoshye, ibikorwaremezo bikorwa hifashishijwe imisoro.

Hari ibikorwaremezo igihugu kigenda cyubaka kikabishyira hirya no hino mu gihugu kugira ngo bigirire abaturage akamaro, bimwe muri byo harimo ibiraro bifasha abaturage kwambuka imigezi minini hanyuma bakagera iyo bashaka.

abantu bagira gahunda zitandukanye zishobora kubafasha ku nzozi zabo, bashobora guhurira ku kibuga cy'umupira, abagabo bakaganira ku kintu gishobora kubateza imbere, ibyo bashobora kubikora nyuma y'akazi cyangwa se bashoje akazi.

Abageze mu zabukuru nabo baba bakwiriye guhabwa uburenganzira bwabo, mu gihe umuturage afitanye ikibazo n'undi muturage, bagomba kwegera inzego z'ubuyobozi zikabafasha gukemura icyo kibazo mu mahoro kandi bakabana neza mu butabera.

Ubu ubutabera buba bukwiriye kubahirizwa. Mu gihe umuntu yarenganyijwe abakwiye guhabwa ubutabera, hanyuma ubwo butabera bukubahirizwa. Uburenganzira bwa muntu nabwo bugomba kubahirizwa ku muntu uwo ari we wese nta vangura.

Abantu baba bakeneye ubutabera mu gihe hari ibintu bibi byabaye. Ubutabera buba bukenewe cyane cyane mu gihe habaye ibyago, hari umuntu wahohoteye undi.

Ahantu ibinyabiziga biparikwa habahatandukanye n'ahandi hantu kuko haba hari umwanya uhagije, uwo mwanya bashobora kuwukoresha bashyiramo ibikoresho bitandukanye bifasha abantu kumenya aho bashobora gusanga imodoka hanyuma bakayibona mu buryo bworoshye.

Imihanda rusange ifitiye akamaro abaturage cyane cyane mu gihe abaturage bashaka kuva mu gace kamwe bajya mu kandi bashobora kwifashisha iyo mihanda bakava mu gace kamwe bityo ubuhahirane bukiyongera ndetse n'iterambere rikiyongera.

Umuntu iyo yubatse inzu aba yumva yishimiye kuyijyamo kubera ko iyo nzu iba yaramutwaye igihe kirekire kugira ngo abone ihagaze niyo mpamvu hari inzu abantu bubaka kugira ngo bazazicururizemo bityo babone inyungu kuko baba barakoresheje amafaranga bubaka iyo nzu.

Mu mihanda iba yubatse hirya no hino mu gihugu haba hariho ahantu hashushanyije imirongo y'umweru, ibyo bivuze ko aho ari ho abantu bambukira kandi umuntu uhagongeye undi ashobora guhabwa ibihano.

Abantu bashyize hamwe nta kintu gishobora kubananira, bashobora gukora igikorwa cy'ingirakamaro, ku muganda ni hamwe mu hantu abantu bashobora kugaragariza ko babashyira hamwe, bashobora gutwara amabuye yo kubaka imigezi cyangwa se inzu y'umuntu utishoboye.

Ibikorwa birimo umuganda bishobora gukorwa n'abantu abo ari bo bose, yaba abasirikare ndetse n'abaturage batigeze bajya mu gisirikare. Abaturage bashyira hamwe kugira ngo bakore ibyo bikorwa hanyuma bigatuma iterambere ry'igihugu ryiyongera.

Abaturage baba bakwiriye gufashanya cyane cyane mu gihe hari umuntu wakoze icyaha by'umwihariko abaturage baba bakwiriye guhana umuntu wakoze icyaha hanyuma bagafasha umuntu wakorewe icyaha kubona ubutabera akwiriye.

Abaturage iyo bahuriye hamwe, hari ibintu byinshi bagenda baganira, by'umwihariko ku bijyanye, n'ubuzima bwabo. Nanone kandi ku bijyanye no gufashanya, bakora uko bashoboye kose bagafashanya mu bikorwa bishobora kubateza imbere.

Abantu bakora uko bashoboye kose kugira ngo bagire amahoro ndetse n'umutekano. Ibimera bishobora kubafasha kuko iyo umuntu afite umutekano ariko adafite ibyo kurya ntashobora kubaho neza. Mu gihe umuntu afite ibyo kurya, afite umutekano ubuzima bwe burushaho kuba bwiza. Niyo mpamvu hari inzego z'umutekano zigenda zishyirwaho ngo zifashe abaturage kugira ubuzima bwiza.

Inzego z'umutekano nazo zishobora kugira uruhare mu gikorwa cy'umuganda, aho abaturage n'abagize inzego z'umutekano, bashobora guhurira hamwe kugira ngo bakore igikorwa gishobora kugirira akamaro igihugu muri rusange.

Imyitozo ngororamubiri ifasha abantu kugira ubuzima bwiza cyane cyane iyo ikozwe mu gihe cya nyacyo, abantu bo mu ngeri zitandukanye bashobora gukora iyo myitozo ngororamubiri kandi ikabagirira akamaro mu buryo bwihariye mu buryo bumwe cyangwa ubundi.

Imikino irimo umupira bifasha abaturage kubona ibyishimo, kandi abaturage iyo bagiye ahantu hari ikibuga cy'umupira bakabonamo abakinnyi bakina, bishobora kubarangaza bityo ntibashobore kujya mu bindi bikorwa bibi.

Abantu bakina umupira bagomba kuba bafite imbaraga n'amagara mazima, mu gihe umuntu akina umupira aba agomba kuba hari ubuhanga afite butuma umupira awukina neza kuko aba arebwa n'abantu benshi kandi mu gihe akinnye nabi bishobora kumukoza isoni.

Abantu bakora imyitozo ngororamubiri, bananura ingingo zabo kandi ubuzima bwabo bugakomeza kurushaho kumera neza. Abantu bashobora gukorera imyitozo ngororamubiri ahantu hatandukanye nko ku kibuga cyangwa se mu muhanda. Ikigero k'imyaka umuntu yaba afite cyose, ashobora gukora imyitozo ngororamubiri.

Abantu benshi iyo bari mu myitozo ngororamubiri, uba ubona bishimye kandi baseka, icyo gikorwa cyo gukora imyitozo ngororamubiri gifasha abantu kugira ubuzima bwiza kandi bakamara igihe kirekire babaho neza.

Gukora imyitozo ngororamubiri bifasha abaturage kumera neza, niyo mpamvu hari ibibuga bigenda byubakwa hirya no hino mu gihugu kugira ngo bifashe abaturage gukomeza kugubwa neza ndetse bifashe n'abaturage kwishimisha bareba imikino igiye itandukanye.

Abakinnyi bagira uruhare mu gutuma abantu bishima kandi abantu iyo bagiye kureba umupira bataha buri wese yishimye mu gihe ikipe ye yatsinze. Mu ikipe ye yatsinzwe ataha ababaye kandi kuko bituma ingaruka zo gutsindwa zimugeraho.

Abantu iyo bagiye ku kibuga cy'umupira bashobora kuhabona ibintu bishobora kubashimisha ndetse bigatuma barushaho kunga ubumwe, abakinnyi bo mu mupira bashimisha abantu kuko baba bafite ubuhanga mu gukina umupira w'amaguru.

Imyitozo ngororamubiri abantu bakora ituma bagira ubuzima bwiza ariko abantu baba bagomba gusobanurirwa uko bakora imyitozo ngororamubiri kuko hari iyo bakora igashobora kubangiriza ubuzima, mu gihe bayikoze idakwiranye n'ubuzima bwabo.

Ibibuga by'umupira byubatswe hirya no hino mu gihugu, bifasha abantu kujya aho ibyo bibuga by'umupira biri, bakidagadura, bagakora imyitozo ngororamubiri kandi hari ibikorwa byinshi bituma bibaho.

Inzego z'umutekano zigira uruhare mu gutuma abaturage bakomeza kugubwa neza, abantu iyo bicaye hamwe kugira ngo bakurikirane igikorwa runaka, hari ibintu byinshi bashobora kuganiraho kandi icyo abagabo baganiraho gishobora kubagirira akamaro.

Abantu bakora imyitozo ngororamubiri bibagirira akamaro cyane, abo bantu bahorana amagara mazima kandi bashobora gutemberera aho bashaka hose, gukora imyitozo ngororamubiri by'umwihariko ku bakinnyi, bibafasha kugira ubuzima bwiza kandi bagahora batemba itoto.

Hari abantu baba barubatse inyubako hanyuma kugira ngo bizere umutekano bagashyiraho n'ibipangu kugirango ngo abajura batazabiba. Abo bantu bakunda kuba bafite amafaranga ahagije kuko bubaka inyubako bakarenzaho n'amafaranga yo kubaka igipangu.

Umuntu ashobora kubona abana mu muhanda akabihorera, ariko umubyeyi ufite urukundo, akwiriye gukura abana mu muhanda kugira ngo batagongwa, n'imodoka bityo bakaba bahatakariza ubuzima, hanyuma bagapfa.

Abantu benshi bagira uruhare mu gutuma ubuzima bwabo bukomeza kumera neza, mu gihe umuntu afite ubuzima bwiza n'amahoro ashobora gutemberera ahantu ashaka hose, niyo mpamvu igihugu kiba cyarubatse imihanda ahantu hatandukanye kugira ngo abaturage baze bayinyuramo.

Imihanda ishobora kunyurwamo n'ibyabiziga bitandukanye birimo amagare ndetse n'imodoka, ibyo binyabiziga bishobora kugira uruhare mu gutwara imizigo y'abantu ndetse bigatwara n'abantu.

lmihanda yo mu mudugudu ituma abaturage batembera bakajya ahantu hatandukanye, ndetse bagasurana. lyo mihanda yoroshya ingendo kandi abaturage bungukirwa no kuba bafite ibikorwa remezo nk'ibyo, kuko bituma iterambere ryabo ryiyongera.

Imihanda ifite agaciro cyane mu gufasha mu iterambere ry'igihugu kuko ifasha abantu kuva mu gace kamwe bajya mu kandi, kandi bakagira ibintu bunguka bishobora kubafasha mu iterambere. Mu gihe abantu bakora imihanda bagenda bashyiramo ibikorwa bishobora kubafasha gutembera ndetse n'ibimenyetso byitwa ibyapa byo ku muhanda.